Icyapa kiri kwerekana serivisi zigiye zitandukanye bahereza ababaganye harimo umu ajenti wa Equity, wa BK, Irembo, MTN na Tigo ndetse na RRA, REG na WASAC.

Ahantu hari abakozi ba Eyateri, bari gushyira ku isoko telefone nshyashya igura amafaranga ibihumbi makumyabiri, urabona ko ari igikorwa cyiza kandi bishimiye.

Ku muhanda ahagendwa n'abantu benshi bagiye batandukanye hakaba hanagaragara ibikorwa bitandukanye harimo ubucuruzi ndetse n'ibindi, haragaragara umutaka wa MTN wicayeho umwagenti ndetse n'igare ririho umuntu wambaye isarubeti y'icyatsi.

Ku muhanda hagaragara ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye harimo n'ubucuruzi, ndabona hafi yanjye akazu bacururizamo amayinite ya Airtel, hanze yako hahagaze umuhungu wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro yikoboye.

Akazu k'itumanaho rizwi nka ya MTN. Karimo abajeti babiri ndetse n'abandi batatu basa nkaho bari hanze yako. Bakaba bari gukora ubukangurambaga ku bijyanye n'amaporomosiyo iryo tumanaho ryashyizeho.

Ku muhanda ahagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye turi kubona akazu ka Airtel ndetse n'umutaka wa MTN n'abantu bari mu bikorwa bigiye bitandukanye ndetse n'inyubako z'ubucuruzi zisize amarange y'umweru.

Ku muhanda ahari akazu ka MTN, hakaba hicayemo umwajenti uri kwakira umukiriya, akaba ari akazu gafite imiryango itatu ndetse gateretse ahantu habugenewe.

Ahantu hateraniye imbaga y'abantu benshi bari mu gikorwa cyo kugura ndetse no kugurisha amatelefone ya Airtel, bikaba ari ibikorwa byishimiwe ndetse bikaba ari ikintu gishyigikiwe n'igihugu.

Ahagaragara iduka ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ku miryango yaryo handitseho money agent, hagati y'umuryango hahagazemo umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro, ufite ibyishimo mu maso.

Umugabo wambaye agapfukamunwa gapfutse umunwa, imbere ye hakaba hari indangururamajwi yanditseho RBA bikaba bigaragara ko ari kumwe n'abanyamakuru bakaba bari kumubaza ku mushinga we ndetse n'ishyirahamwe yaba ahagarariye ryo kubaza ibiti.

Ahantu hubatse tente hakaba hicaye abantu b'ingeri zitandukanye abenshi muri bo bakaba bambaye imipira y'ubururu ifite ikora ry'umweru hakaba hakubiyemo na ba Dasso.

Rimwe mu ishyirahamwe rigizwe n'itsinda ry'abantu benshi hakubiyemo igitsina gore n'igitsina gabo bakaba bakora igikorwa cyo kwambika abantu, harimo inkweto ndetse n'imyambaro igiye itandukanye.

Ahantu hagaragara abagabo bambaye ibisarubeti by'ubururu, umwe muribo aricaye ku njerekani yambaye ingofero y'umukara hirya hagaragara ibyuma baba bari gukora ahagaragara nk'aho koperative ikora ibintu bikoze mu cyuma.

Ahazwi nko mu busitani bwiza cyane, haragaragara umwe mu bari guhatwa ibibazo n'abanyamakuru, ku byerekeye amashyirahamwe ndetse n'indi mishinga igiye itandukanye ikorerwa mu Ntara y'Iburasirazuba.

Igikombe gitangwa igihe hari igikorwa cyiza kampani runaka iba yakoze, igashimisha abakiriya ndetse ikubaka igihugu akaba gitangwa nk'ishimwe, kiragaragara hano kiri no kuri seritifika bagitangana.

Gushyira hamwe ni igikorwa cyiza cyane ndetse cyubaka abandi nk'uko turi kubibona hano ku ifoto hari abantu bihurije hamwe bafite icyo kunywa ndetse bari kurya n'ibigori ukaba ubona ko ari igikorwa bishimiye kandi bafatanye uburemere kuko bitabiriye ari benshi.

Abantu bakubiye muri kimwe mu cyumba cya koperative ikora akawunga, hagaragaramo uwambaye itaburiya y'umweru ndetse n'igofero n'abandi bamwitaruye basa nkaho bari kuganira.

Nk'uko turi kubibona hano hari inyubako ya zimwe mu mabanki aciriritse kandi afasha abantu kuzamuka mu byiciro bigiye bitandukanye, ubwo rero yifuza abayigana ari benshi kugira ngo tuzamurane muri iki Gihugu cy'u Rwanda, ni byiza cyane kugira ngo twese tubyumve kimwe kandi tuyishyigikire, iyo akaba ari SACCO.

Ahazwi nk'aho bacururiza icyo kunywa cyane cyane gisembuye, haragaragaramo abantu batatu, babiri akaba ari abakiriya baje kwiyakira ndetse hirya hakaba hahagaze usa nkaho ari kubakira.

Aho bacururiza ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo amabombo, amaji, amafirigo arimo icyo kunywa gikonje ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo umumama ufite akanyamuneza mu maso.

Ahazwi nko kuri butike, hagaragara ibicuruzwa bigiye bitandukanye, amafu, ibirungo ndetse n'ibinyobwa, hacuruzamo umuntu w'igitsina gore ndetse harimo amatageri atondetsemo, ibicuruzwa bye ku murongo ndetse buri kimwe n'ubwoko bwacyo, bigiye bipanze ahantu hamwe.

Ahakunze kugaragara amagi menshi cyane ubungubu biragaragara ko yabashiranye kuko amatureyi hafi ya yose aragerekeranye, nta na rimwe ririmo amagi uretse, rimwe muri yo rirambitse hasi ririmo amagi asa nkaho ari make cyane.

Ikarito irimo sosotomate za kenzo zikaba zigaragara muri butike, akaba muri zimwe muri sotomate zifasha gukora isosi kandi zikaba zikunzwe n'abantu benshi ku isoko ry'umurimo.

Ahazwi nko muri botike haragaragara ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bimwe biri mu mifuka ibindi biri mu ma etajeri bimwe muri ibyo bicuruzwa ndi kubona harimo; amavuta yo guteka, ndetse n'imifuka irimo amasukari, umuceri, n'ibindi.

Ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, ndabona kimwe mu gikoreshwa n'abakobwa bari mu mihango, izina kikaba cyitwa cotex, kikaba kiri mu ishashi y'icyatsi hariho n'utubara tw'umuhondo ndetse na move hamwe n'igishushanyo cyacyo uko giteye.

Ahazwi nk'aho bacururiza imyenda, haragaragara amasakoshi ndetse n'imyenda y'igitsina gore, hakaba higanjemo ibara ry'iroza ndetse n'umutuku.

Ahazwi nk'ahacururizwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye abantu bakunze gukenera, hagaragara amajyane akoze muri tangawize ari mu gashashi gafite icyatsi imbere inyuma kakaba gafite ibara ry'umuhondo.

Muri butike aho bacururiza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hagaragaramo umutegarugori ufite akamenyo mu maso, muri ibyo bicuruzwa ndi kubonamo ibirungo bigiye bitandukanye amamesa ndetse n'ibindi.

Ahazwi nko kuri botike igaragara nk'aho ifite ibicuruzwa bike, kuko ama etageri amwe namwe nta kintu kirimo, hagaragaramo umugabo, imbere ye hakaba hateretse ibase itukura irimo amandazi, hirya ye hakaba hicayemo umwana.

Mu rusengero ruzwi cyane nk'Abakatolike hagaragara abahereza bagera kuri batanu bambaye amakanzu y'imyeru ndetse na Padiri wambaye ikanzu y'umweru yarengejeho ikindi k'icyatsi n'abakirisitu imbere bari guhabwa Ukarisitiya.

Urusengero runini cyane rwubakishije amatafari ahiye, rusize amarangi y'umweru ku turongo tumanuka inzugi ndetse no ku madirishya, rukaba rufite ibiti mu kibuga.

Ahazwi nko ku cyumba cyo ku rusengero, haragaragara imbaga y'abantu benshi yiganjemo igitsina gabo ndetse hakaba harimo n'abapasiteri, bigaragara nkaho hari komite y'urusengero.

Ahazwi nko ku rusengero abantu benshi bateraniyemo, haragaragara urujya n'uruza rw'abantu batandukanye ndetse bavuye mu duce tugiye tunyuranye ndetse bari kuvuga ku bintu bijyanye n'amateraniro.

Ku rusengero hamwe mu bafite amashuri y'abana b'inshuke, rimwe mu ishuri ndahabona abana benshi ariko bambaye imyenda itandukanye ndetse imbere nkabona umwe mu babitaho ari we mwarimu, ku gikuta rero hagiye hashushanyije utunyamaswa tugiye dutandukanye.

Ku Kiliziya imbere kuri Aritari haragaragara abapadiri bagera muri batanu, bane muri bo akaba ari umwirabura undi umwe usigaye akaba ari umuzungu wo mu bwoko bw'Abashinwa ndetse ukabona ko ku ruhande yabo hatatse neza ndetse hariho n'ibitambaro by'ubururu.

Ahazwi nko ku rusengero haragaragara imbaga y'abantu benshi hakubiyemo igitsina gore n'igitsina gabo bari kwinjira mu rusengero akaba uru rusengero rufite imbuga nini cyane.

Muri hoteli aho abantu binjirira, inyuma haragaragara umuntu ushinzwe umutekano wayo wicaye ku ntebe, ndetse n'aho barambika ibintu baza bafite mu rwego rwo kubasaka ko nta kintu cyangiza bafite, hirya haragaragara intebe z'abakiriya.

Aho bakirira abantu bakabaha serivisi zijyanye n'ibyo kurya ndetse nho kurara, hazwi cyane nko muri hoteli, ndahabona inzu nziza cyane, isize amarangi y'umweru, ifite ahantu ho kwicara, ifite ndetse na za kizimyamwoto, ubona ko hari ubwirinzi buhagije.

Ahari imbaga y'abantu benshi cyane ubona ko bari ahantu hatagaragara neza, hatinjira urumuri ruhagijwe, hagaragara nko muri sare ya hoteri ishinzwe kwakira abantu benshi.

Mu gikoni ahari gutunganyirizwa ifunguro ndahabona inkoko batarabaga, akaba ari muri hoteri, bikaba bari kubitegurira ababagana kugira ngo babahe serivisi ibanogeye.

Icyumba kimwe mu bigize inyubako imwe ya hoteli haragaragara igitanda gishashe neza cyane ndetse n'ahari intebe ebyiri n'imeza hagaragara nko mu ruganiriro, ni icyumba kiza cyane ndetse gisize irangi ry'umweru.

Ahazwi nko kuri hoteli, aho bahera abantu amafunguro, ndahabona ameza menshi ndetse ateguyeho, hejuru y'aho ibitambaro ndetse n'udutako n'intebe zo kwicaraho mu gihe baba bari gufata ayo mafunguro, ni inyubako nziza cyane kandi ifite isuku.

Ahantu hatanga serivisi z'amacumbi ndetse no kugaburira abantu bafite intego zigiye zitandukanye, bataye amacumbi yabo wenda baje nko mu bukerarugendo, ni ingenzi cyane kuko bifasha abantu kubona serivisi nziza biboroheye.

Mucyumba kimwe cyo muri hoteri, haragaragaramo ibitanda bibiri bishashe neza ndetse n'umuryango ufunguye ukuyeho rido uruhande rumwe, bikaba ari icyumba gisa nk'aho gisize irangi ryijimye ku rukuta ndetse n'umweru hejuru.

Ahazwi nko kuri hoteli aho bakirira abantu bashaka serivisi z'amacumbi ndetse n'ibyo kurya, hagaragara inyubako nziza y'amagorofa abiri, inyuma yayo hakaba hateyeyo igiti ndetse n'imbere bakaba bafite ubusitani bwiza.

Ahazwi nk'aho abantu bakunze gufatira amafunguro kuri hoteli cyangwa moteri, haragaragara intebe ziteguye neza ndetse n'ameza iriho ibisabwa byose by'umuntu akoresha afata amafunguro ndetse n'ikirahuri cy'amazi.

Ahazwi nko kuri hoteli, ndikuba kimwe mu byumba bishashe neza, harimo igitanda kiriho matola nziza cyane hariho n'udusego, n'intebe ebyiri, impande yicyo gitanda hariho amarido meza ndetse n'amatara.

Kimwe mu byumba bigaragara muri hoteli ndabona aho igitanda gishashe neza kiriho kuvuleri y'umweru ndetse n'imisego ibiri n'amatara yakira hejuru y'igitanda ndetse n'akameza hepfo yayo.

Abayobozi b'ibihugu harimo n'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame, imbere yabo hari imodoka nziza cyane bagendamo ubona ko bari gushyikirizwa ahari uburyamo hazwi nko kuri hoteli.

Ahazwi nko ku muryango winjira muri hoteli, hagaragara icyapa ku ruhande, kigaragaza amaserivisi iyo hoteli itanga ndetse ukomeje imbere urabona ko ari ahantu hafite ubusitani bwiza.

Aha hakunze kugaragara ubucuruzi buciriritse, hagaragara imyenda y'abana bakiri bato ishashe ku shitingi, inyuma yayo ku biti hamanitse udukapu ndetse no hirya haparitse moto.

Ahazwi nk'ahacururizwa imboga zigiye zitandukanye, ndabonayo ibyiganjemo ari inyanya n'intoryi ndetse n'insensa, hakaba hari imbaga y'abantu benshi baje kwitabira igikorwa cyo gucuruza ndetse no kugura.

Ahakunze kugaragara abantu bacururiza hanze y'isoko ndetse n'abacururiza imbere mu isoko, urabona ko kuri iri soko hanze hari abantu benshi cyane ndetse mu isoko hakaba harimo n'abandi bose bafite intego imwe yo gucuruza bakabona amafaranga.

Ku muhanda ahagaragara ubucuruzi bugiye butandukanye, harimo abajenti batanga amayinite, ndetse bakaba babitsa bakanabikuza, bari mu mitaka ya MTN, ndetse n'utumeza aho amagare arambitse, biragaragara ko rwose ari ahantu hahurira abantu b'ingeri zitandukanye.

Ahazwi nk'ahaparika imodoka, impande y'umuhanda hagaragara umugore wikoreye imbuto ku rutebo akaba ari ubucuruzi u Rwanda rudashyigikira ndetse iyo bababonye bubaka ibyo bicuruzwa bakabasaba kujya bakorera mu masoko yemewe.

Ahacururizwa inkweto zigiye zitandukanye, harimo iz'abakuru n'iz'abana, ndabonayo umugabo n'umugore ndetse n'umwana, umugabo akaba afite urukweto mu ntoki, bigaragara ko ashaka kugura, mu isoko riri aho hafi kandi riciriritse.

Ahantu hari ubucuruzi bw'imboga cyane cyane haragaragara amashu menshi arunze, akaba hariho umudamu uyahagaze imbere witeze igitambaro cy'umukara uri kuyitegereza.

Ahagaragara nk'isoko riciriritse ricuruza ibikoresho bya purasitike hagaragaramo amajage, indobo, ibikombe ndetse n'amaparato make n'imyuko ndetse n'utuyunguruzo bakoresha bayungurura amafu.

Ahazwi nko mu tuyira, hagaragara agasoko gaciriritse kamanitseho ingofero zo mu mutwe, abadamu bakunda kwitega, ndetse n'igare riparitse hirya yaho, n'iriryamye hasi mu byatsi.

Ahagaragara isoko riciriritse ndetse risa nkaho ryatangiye gusakambuka, hagaragara abantu bacururiza hanze y'isoko cyane cyane ndi kubona ubucuruzi bw'inkweto, harimo imbaga y'abantu benshi, bamwe bagurisha abandi bagura.

Ku gasoko gaciriritse ko ku muhanda hacururiza abantu baba bashashe imifuka hasi ubundi hagashyirwaho ibicuruzwa cyane cyane nk'imboga zirimo, inyanya ndetse n'ibindi, urahabona imbaga y'abantu benshi bari kwitabira ndetse n'abari gutambuka muri uwo muhanda.

Ahazwi nko kuri resitora igaragara neza cyane cyane, buri kwira ubona ko amatara y'imbere agaragara neza, aho wakirira abantu baje gufata icyo kunywa ndetse n'icyo kurya.

Ahagaragara icyapa cyanditseho murakaza neza byenveni werikamu hazwi nk'aho bakirira abantu bakeneye icyo kunywa ndetse n'icyo kurya hateye ameza ateguye neza ndetse n'intebe zo kwicaraho mu gihe bari kwakira ababagannye.

Ahazwi nko muri resitora nziza cyane ndetse iri kuri levo ishimishije ndabonayo amameza ndetse n'intebe yazo basa nkaho bateguriye abakiriya kandi bishyize mu mucyo bifite n'isuku cyane ku rwego rwo hejuru.

Mu muhanda wa kaburimbo hagaragara umumotari uhetse umugenzi w'igitsina gore, bakaba barenze ahambukira abanyamaguru, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti.

Mu muhanda wa kaburimbo haragaragaramo abamotari babiri umwe amanuka undi azamuka, mugenzi we amanuka as nk'uhetse umugenzi wambaye umupira w'umutuku undi uri kuzamuka akaba ahetse imyeyo.

Ku muhanda wa kaburimbo haciyemo umurongo hagati mu muhanda w'umweru ucagaguye, mu ruhande rw'iburyo hakaba harimo moto ihetse umugenzi, ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda hakaba harimo abanyamaguru babiri b'igitsina gore.

Ahazwi nk'aho moto ziparika haragaragara izigera muri enye ndetse n'indi ya gatanu ije guparika, umukiriya babiri muri bo bahagaze imbere y'ikinyabiziga cyabo.

Mu muhanda wa kaburimbo haragaragaramo moto ihetse umugenzi bombi bakaba bambaye kasike mu mutwe ndetse ku ruhande hakaba hari icyapa kiri mu buso bw'umweru, umuzenguruko w'umutuku cyanditseho mirongo itandatu.

Ahazwi nko ku muhanda wa kaburimbo haragaragara umunyonzi uri hagati mu muhanda w'igitsina gabo, akaba yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu bwijimye, ibumoso bwe hagaragara undi muntu wambaye umupira wa pinki uri munzira y'abanyamaguru.

Ahazwi nko mu muhanda wa kaburimbo, haragaragara umuntu utwaye moto, uri kuruhande rw'iburyo bw'umuhanda ndetse n'amazu asize irangi ry'umweru, ari kuruhande rw'ibumoso.

Umuhanda wa kaburimbo haragaragaramo unumotari uhetse umugenzi, bose bakaba bambaye kasike, impande y'umuhanda hubatse amazu ubona ko atari meza akenewe kuvugururwa.

Mu muhanda wa kaburimbo, ndabonayo moto zirenga eshatu, ndetse imwe muri zo irahagaze isa nk'aho igejeje umukiriya aho yaragiye ari gukuramo kasike.

Umuhanda wa kaburimbo haragaragaramo umumotari wambaye umupira w'umutuku kasike y'ubururu, indi kasike ikaba imuri imbere ibumoso bwe haragaragara amazu asize irange ry'ubururu handitseho Primus.

Ahantu hari amamoto menshi hasa nkaho ariho abantu benshi baza kuyafatira bagiye mu rugendo, haragaragara abaparitse ndetse n'umumotari umwe utwaye umugenzi, hirya hari umuntu ucuruza amayinite ya MTN.

Ahagaragara abagabo babiri umwe muri bo akaba ahagaze wambaye ijire y'umutuku ndetse na kasike mu mutwe, bisa nk'aho ari umumotari, undi akaba ari kumufasha gukora moto ye yagize ikibazo.

Ku gace gatoya ko ku muhanda haragaragaramo umuzungu wicaye kuri moto ushagawe n'abamotari batatu bambaye amajire yabugenewe asa umutuku ndetse n'abandi bagabo batatu bambaye, babiri muri bo bakaba bambaye imipira y'umweru.

Ku muhanda wa kaburimbo, haragaragara umumotari uhetse mugenzi, bose bambaye ingofero zabigenewe mu mutwe, ibumoso bw'umuhanda haragaragara imodoka y'umukara iparitse ndetse n'inzu nziza cyane.